Ni igihingwa cy'umuceri, umuntu ahetse ipombo, arimo aratera umuti, iyo pombo ifite ibara ry'umuhondo n'umufuniko w'icyatsi, inyuma y'icyo gihingwa cy'umuceri hari ibiti birebire by'inturusu.

Ndabona umugore uri kuhira ikawa ahetse ipombo irimo umuti, ipombo ifite ibara ry'umuhondo, yambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umutuku, yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'amakoma y'imibyare.

Ni umugabo uhagaze mu murima urimo igihingwa cyi'bigori, yambaye igisurubeti cy'umukara, ahetse ipombo irimo umuti, iyo pombo ifite ibara ry'umuhondo kandi ibumoso bwe hari ikidendezi cy'amazi, hirya y'ikidezi cy'amazi hakaba hari ishyamba ririmo n'ibiti byinshi.

Ni umuntu uhetse ipombo arimo aruhira igihingwa cyu'muceri, yambaye imyenda y'imikara n'ingofero y'icyatsi.

Ni igihingwa cy'umuceri utarera, hakaba harimo umugabo uhetse imppombo akaba arimo kugitera umuti, ndetse yambaye agapfukamunwa k'igitare, ingofero na ga mu biganza zifite ibara rya orange.

Ni abantu babiri bari mu muririma wibigori, barimo gutera umuti, bahetse ipombo y'igitare, bambaye ibisurubeti by'umukara na bote z'umukara.

Ni umugore uhetse ipombo irimo umuti, akaba ari gutera imboga umuti, iyo pombo ikaba ifite ibara ry'umuhondo, umugore akaba yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, muri izo mboga ari gutera umuti hakaba harimo n'ibigori inyuma ye.

Ni umugabo wambaye igisirubeti cy'ubururu akaba ahetse ipombo y'umuti ifite ibara ry'igitare, n'icyatsi, akaba yambaye ikoti ry'igitare ndetse n'ingofero y'umutuku, yambaye na bote z'umukara ari kuhira imboga.

Ndi kubona umugabo ahetse ipombo y'umuti arimo aratera umuti ibirayi iyo pombo ifite ibara ry'ubururu ndetse yambaye umupira w'umukara inyuma ye hari icyatsi cy'urubingo.

Ndabona umugabo uhetse ipombo irimo umuti arimo aratera ibigori umuti, yambaye agafuwa k'umukara, yambaye na ga z'umutuku, yambaye n'igisurubeti cy'umukara, hirya inyuma ye hari ikigega cy'amazi.

Ni ikiyaga cy'amazi kirimo umuntu urimo kuroba ahagazemo yambaye ishati y'igitare n'ikabutura y'umukara, inyuma yaho hari imisozi iriho ibiti, iruhande rw'icyo kiyaga hari n'abandi bantu bahagaze.

Ni amadamu abiri arimo amazi menshi, hari umuntu wambaye umwenda w'igitare uhagaze impande y'aho, inyuma y'aho hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, inyuma y'iyo nyubako hari ibiti birebire, hepfo iburyo bw'inyubako hakaba hari imibyare.

Ndabona amafi menshi cyane ari mu mutego, umutego ukoze mu buryo bwa supanete uteretse mu mazi huzuyemo amafi menshi.

Ni ahakorerwa ubworozi bw'amafi akaba ari amazi menshi ari muri shitingi ndetse hakaba hari abantu babiri umwe akaba yicaye kuri shitingi yambaye bote z'umukara, akaba afite agakombe k'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire.

Ni abantu bane umwe afite igikombe cy'ubururu undi w'umugore afite ibase y'umutuku, bahagaze mu byatsi imbere y'ikidendezi cy'amazi.

Ni umugore wicaye mu bwato wambaye ikanzu y'ubururu, arimo araseka kandi akaba yicaye mu bwato buri mu mazi menshi, inyuma y'ayo mazi hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu bafite agapaniya karimo amafi bambaye ibisurubeti bitandukanye amabara harimo iby'umutuku n'ubururu bambaye n'amajiri , harimo kandi umugore witeze igitambaro ku mu twe bafite umutego urimo ayo mafi nka supanete hari n'ufite camera na telefone.

Ndabona igiti cy'imbuto z'ikawa, ikawa zihiye n'izidahiye z'umutuku n'icyatsi ndabona amababi y'ikawa.

Ni igihingwa k'icyayi abantu babiri bari kugisarura umwe yambaye ingofero y'umutuku ahetse agapaniya ko kubishyiramo, inyuma y' icyo gihingwa hari ibiti birebire bya gereveriya ndetse n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni igihingwa cy'icyayi kimo kirasarurwa n'umugore ahetse agapaniye ko gushyiramo, yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse inyuma y'icyo cyayi hariho imisozi iriho ibiti birebire.

Ni igihingwa cy'ikawa akaba ari ishami ririho ikawa zihishije n'izidahishije ndetse n'ibibabi byayo, hari umugore witeze igitambaro, akaba yambaye umupira w'umukara ndetse arasamye.

Ni abantu bari gusarura igihingwa cy'umuceri, iruhande hari umuferege uriho ibyatsi, biteze ibitambaro mu mutwe.

Ni igihingwa k'icyayi gihinze ku buso bunini inyuma yacyo hakaba hagiye hari imisozi, ndetse n'ibiti birebire cyane.

Ni igihingwa ngandurabukungu, kizwiho kuba cyitwa icyayi, akaba ari abagore babiri, bari kugisoroma bafite udutente, bari kugishyiramo baduhetse mu mugongo.

Ni abagore bane barimo baratunganya igihingwa k'imbuto y'ikawa, ikawa ifite ibara ry'umutuku iri ku bwanwanikiro, inyuma y'abo bagore hakaba hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ikigega cy'amazi, imbere hakaba hari jaride y'indabyo.

Ni igihingwa k'imbuto y'ikawa zikaba zifashe ku ishami ririho ibibabi ndetse hakaba hariho ikawa z'umutuku n'iz'icyatsi.

Ni umurima munini urimo igihingwa cy'icyayi, hakaba hahagazemo abagore bane, bambaye utujiri tw'umuhondo ,bakaba bari gusarura, inyuma y'icyo cyayi hakaba hari imisozi iriho ibiti.

Ni igihingwa cy'umuceri weze utangiye kuma. Hakaba hari abagore babiri bafite utubuni tw'igitare kandi biteze ibitambaro mu mutwe. Hakaba hari n'undi uhagaze mu muceri, wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'igitare, afite n'agakayi mu ntoki. Inyuma y'uwo muceri hakaba hari umusozi uriho n'ibiti.

Ni icyumba kirunzemo kandi kibitsemo imiti y'amatungo ari mu mashashi atandukanye, hakaba hariho umuti uri mu ishashi ishushanyijeho inka.

Ni ubuhinzi bw'ibigori umugabo yambaye igisurubeti cy'ubururu, arimo arasarura ibigori areba ko byeze.

Ni abagabo batatu bari mu muririma uhinzemo ibigori, inyuma yabo hari umusirikare wunamye undi afite isuka, arimo arabagara ibigori yambaye umupira w'igitare n'ipantaro y'umukara, ubarimo hagati yambaye imyenda y'imikara na bote afite n'ingofero.

Ni inka ziri mu ishyamba zirimo zirarisha, harimo iz'umukara, iz'igitare, muri iryo shyamba harimo ibiti by'amahwa birebire, hariho uruzitiro rw'ibiti n'imiyenzi.

Ndabona umugabo uri guha inka ubwatsi, nkabona ikiraro kirimo inka ebyiri zose z'umukara nta mahembe zifite ikiraro cyubakishijwe ibiti, nyuma yaho y'kiraro hari inzu y'amatafari ndetse n'imibyari n'ibuni inyuma y'uwo mugabo ufite ibyatsi.

Ni inka nyinshi zifite amahembe maremare zizwi ku izina ry'inyambo ndetse n'inyana zazo, imwe muri yo ikaba ifite urunigi mu ijosi, kandi imbere yabo hakaba hari ikiraro k'ibiti inyuma y'icyo kiraro hakaba hari ibiti birebire.

Ni umugabo wunamye, yambaye ipantaro y'umukara na bote z'umukara, akaba yambaye isaha ku kaboko, akaba arimo aratera igiti mu butaka, icyo giti akaba ari igiti cya givereveriya, inyuma ye hakaba hari ibyatsi.

Ni umugabo uri gusunika igare rihambiriyeho ibyatsi, akaba arimo arasunika igare ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'igitare.

Ndabona umuntu wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, n'intoki ze zifashe imbuto ndetse n'ibiribwa by'imboga imbuto harimo imyembe, imboga harimo pavuro, karoti,..

Ndabona ibirayi bikuye, birunze bifite ibara ry'igitare ndetse n'ibibabi by'ibirayi, n'ibindi bifashe mubutaka.

Ni igiti cy'ummbati cyari gifashe mu butaka gusa kiraranduye kirambitse hasi gifite imizi myinshi akaba ari itaka ririmo n'amabuye.

Ni igihingwa cy'imboga cyitwa ubutunguru, inyuma yaho, hari umurima urimo ibigori, ibihwaga ndetse n'ibyatsi.

Ndi kubona ibiribwa byo mu bwoko bw'imbuto n'imboga, ndi kubonamo intoryi, ibibiriganya, wotameroni ndetse n'ibitunguru.

Ni igishanga kinini gihingwamo igihingwa cy'umuceri ndetse mu bigaragara hakaba harasaruwemo umuceri hakaba harimo n'umwotsi uri gucumba inyuma yaho, hakaba hari ishyamba ririmo ibiti birebire cyane.

Ndabona ibiribwa birimo imbuto ndetse n'imboga. Harimo imineke, karoti, puwavuro, intoryi, n'ibigori.

Ni igihingwa cy'umuceri weze ukaba utangiye gusarurwa ndetse iruhande rw'uwo muceri hakaba hari ishyamba rifite ibiti byinshi cyane kandi hakaba harimo n'ibihuru muri uwo muceri hakaba harimo ibishashi byifashishwa kurinda inyoni mu kinyarwanda bita akadahumeka.

Ni igihingwa cy'intoryi, hasi gisasiyemo ibyatsi byumye, iruhande rw'iburyo hakaba hari imigozi iteye mu murima, inyuma y'intoryi hakaba harimo ibiti by'inturusu ndetse na geriveriya.

Ni igihingwa cy'uruyuzi kikaba keraho amadegede cyangwa se ibihaza, kikaba gifite ibiba bibita igisusa, kikaba gihinze mu murima ndetse hakaba hariho n'ibibabi by'ibigorigori byumye.

Ni gihingwa cyibigori biteye mu murima, bitarageza igihe cyo gusarurwa, ntibiruma, hasi hari ibishyimbo.

Ni umurima urimo igihingwa cy'umwumbati hakaba harimo ndetse n'ibishyimbo byameze ndetse n'ibyatsi ku ruhande rw'iburyo hakaba harimo ibiti bitandukanye.

Ni igihingwa cy'ikigori kikaba kikiri bitoya bitaraheka ndetse bitaranasambura, iruhande rwawo hakaba hari ibiti byagasiya bikiri bitoya bitaraba birebire.

Ni igiti cy'urubuto bita indimu kikaba cyarumye ndetse hariho utubabi dukeya, inyuma y'aho hakaba hari ibyatsi byinshi kandi ukaba kiri mu murima.

Igihingwa k'ibigori kiri mu murima ahantu hanini, iruhande rwacyo hari ibiti by'imihengeri, ibyo bigori bikaba bikiri bibisi hejuru bifite ibisage, inyuma y'aho hari imisozi iriho ibiti.

Ni ishyamba ririmo inka nyinshi zirunamye zirimo zirarisha ibyatsi kandi muri iryo shyamba hakaba harimo ibiti, inyuma yaho hakaba hari uruzitiro rw'ibiti.

Ndabona ifoto y'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ufashe ku ngofero ndetse na gashabazi mu bitugu, yambaye agapira k'icyatsi, ari mu biti n'inkweto zifunze n'amasogisi y'icyatsi, mu biti birebire by'inurusu.

Ni umuhanda wa kaburimbo uciye ahantu mu ishyamba ibumoso n'iburyo bw'uwo muhanda hari ibiti birebire n'ishyamba ripfukiranye kandi hakaba hashinze n'amapoto y'insinga z'amashanyarazi.

Ni umusozi uriho ishyamba ry'ibiti bitandukanye kandi birebire cyane, hasi hakaba hari n'ibyatsi bigufi bito ndetse n'ibiti by'inturusu iruhande rw'iburyo.

Ni umusozi uriho ibiti byinshi cyane bipfukiranye, hejuru y'ibyo biti hakaba hari ibicu by'igitare kandi bifatanye cyane.

Ni umurima urimo ibihingwa bitandukanye by'ubwoko bw'inshi harimo imibyare, ibigori, ibishyimbo ndetse muri uwo murima hakaba harimo n'ibiti nk'icy'umusave, voka ndetse n'isombe cyane cyane muri uwo murima higanjemo imibyare.

Ni ibihingwa by'ibigori biri mu murima, hirya y'uwo murima w'ibigori harimo ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi.

Ni igiti cy'imbuto cyitwa ipapayi, iriho amababi menshi kandi ayo mapapayi akaba ateze ari mabisi, inyuma y'icyo giti hakaba hari ibindi biti, bifiteho indabyo z'umuhondo.

Ni ibibiribwa by'imbuto n'imboga, harimo karoti, urusenda, ibibiriganya, intoryi, amadegede na pavuro, harimo n'amapera.

Ni igihingwa cy'indabo, kizwi ku izina ry'ibireti, ni umugore urimo yambaye amaherena, yambaye igisurubeti cy'icyatsi, yiteze n'igitambaro cy'umukara mu mutwe.

Ni igihingwa cy'ubutunguru ndetse hari abantu bahagaze, iruhande yabwo hari uwunamye uri gucukura igitunguru, undi afashe telefoni arimo arafotora, inyuma yaho hari umuhanda.

Ni umugore wicaye hasi ku byatsi akaba ari gutoranya igihingwa cy'inyanya azishyira mu dupaniya kandi izo nyanya zikaba zijyanwa ku isoko zikagurwa n'abantu batazifite ndetse n'abatarazihinze.

Ni umugore uhagaze mu murima w'amashu akenyeye igitenge, yiteze igitambaro mu mutwe, yahurije amaboko mu gatuza kandi yambaye umupira urimo ibara ry'umukara n'igitare.

Ni igihingwa cy'urubuto bita pome, rufite ibara ry'umutuku, izindi pome zifashe ku mashami y'igiti ndetse n'amababi y'icyatsi, pome imwe bayiciye iri mu kiganza.

Ni igihingwa cy'ubutunguru umuntu ari kuhira kandi afashe isuka, inyuma yaho hari ibiti by'inusu kandi birebire, inyuma y'uwo muntu ufashe isuka hakaba hari imibyare.

Ndabona umugabo ufite rozwari ebyiri ari kuhira amashu, hirya ye hari ibiti by'imyembe inyuma ye hari amazi.

Ni umugabo uhagaze uri kuhira ibigori kandi akaba ari gukoresha umupira ufite ibara ry'ubururu, inyuma ye hakaba hari undi mwana uhagaze wambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'icyatsi.

Ni umugore ufashe umupira, urimo kuvamo amazi, yambaye ga mu ntoki z'umutuku kandi yambaye ingofero, akaba arimo aruhira ahantu hari ibyatsi kandi yambaye bote z'umukara.

Ni umugore n'umugabo bari kuhira inyanya. Bafashe imipira irimo gucamo amazi. Uwo mugore yambaye, ikanzu, inyuma yaho hari ibiti by'imigano ndetse n'imibyare.

Uburyo bwo kuhira bwa kijyambere aho hari impombo ziri kuhira imboga, kandi inyuma y'uwo murima urimo imboga, hakaba harimo ibiti birebire cyane inyuma y'uyu murima w'imboga.

Ni umugore ufite umupira uri kuvamo amazi, arimo aruhira, yambaye ikanzu y'igitare n'icyatsi, yiteze igitambaro cy'umukara, inyuma yaho hari ibiti by'imikindo, ndetse n'ibisheke uwo mupira ufite ibara ry'umutuku, ku mutwe wawo hari ibara ry'umukara.

Ni umugore ukenyeye igitenge afite umupira urimo gucamo amazi ari kuhira igihingwa cy'imboga kitwa amashu.

Ni umugabo uri kuhira akaba yambaye imyenda y'umukara, kaba afashe umupira uri kunyuramo amazi ufite ibara ry'ubururu, akaba arimo yuhira amashu, inyuma yaho hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye inturusu na gereveriya.

Ndi kubona umukobwa ufashe umugozi arimo aruhira imyaka, ndi kubona amashu yambaye bote yambaye igisurubeti cy'ubururu na bote z'umukara, ndetse n'ibigori bihinze hari n'undi mugabo uri inyuma ye yambaye bote z'icyatsi n'igisurubeti cy'ubururu ndetse n'imibyare inyuma yaho.

Ni igihingwa k'ibigori kiri kuhirwa, amazi ari kuva mu mupira ndetse n'umwobo kiri gusukamo amazi.

Ni igihingwa cy'ibigori bitarera, hagati haciyemo umupira w'amazi ubyuhira.

Ni umugore uri kuhira, ari kuhira akoresheje umupira uri kuvamo amazi yambaye ikanzu y'umutuku, ari kuhira igihingwa cy'inyanya, inyuma ye hari ibiti birebire bya gereveriya, impande y'ibyo biti bya gereveriya hari imodoka y'igitare.

Ni igihingwa k'imboga ziri kuhirwa mu buryo bwa kijyambere hakaba hari imipira irimo iracamo amazi ndetse ameneka ku mboga iruhande rw'izo mboga, hakaba hari umubyare wumye ndetse n'ibirabyo.

Ni ikibaya kirimo ibiti ndetse n'ibyatsi, hakaba harimo n'imibyare, hejuru y'icyo kibaya hakaba hari imisozi miremire igiye irimo utuyira.

Ni umuhanda urimo imodoka ye ifite ibara ry'igitare, iruhande rw'imodoka mu kaboko k'iburyo hari ibiti birebire by'inturusu, imbere y'aho hari umusozi muremure.

Ni ikidendezi cyamazi menshi, ku nkombe yacyo hariho ibyatsi, inyuma hari ibiti birebire by'inturusu biteye ku musozi, kuri uwo musozi hakaba hashinze ipoto y'amashanyarazi.

Ni ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse hakaba haciyemo umuhanda, impande y'umuhanda hakaba hari ibyatsi bihagazemo igikoko bita agasumbashyamba.

Ni ikiraro k'inka kirimo inka enye zirimo zirarira mo ibyatsi zirunamye zifite ibara ry'umutuku ziri mu kiraro.

Ni ubworozi bw'ingurube, akaba ari ingurube iri mu kiraro iryamye ifite ibibwana by'igitare bifite n'ibara ry'umukara, bikaba biri konka kandi nyina yo iryamye hasi.

Ni ubworozi bw'inkoko akaba ari inkoko nyinshi zifite amabara atandukanye, umukara, igitare, umutuku izindi zikaba zihagaze ku giti.

Ni inzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko, harimo inkoko z'igitare kandi harimo amatara iyo nyubako zirimo harimo irangi ry'igitare, ku ruhande hari televiziyo.

Ni itungo ry'ingurube iryamye hasi ifite ibara ry'igitare ikaba yambaye iherena ku gutwi rifite ibara ry'umuhondo kandi ikaba iri mu kiraro.

Itungo rigufi ryitwa ingurube, ibigaragara byo ikaba ari ishashi kubera ko ifite amabere, kandi ikaba ari igitare. Ni ingurube iri mu kiraro, ikiraro kikaba kirimo ibarizo riyifasha kubona ukiryama neza, ikaba ifite umurizo muremure uriho ubwoya bw'gitare.

Ni ubworozi bw'inkoko, akaba ari inkoko nyinshi z'amabara atandukanye: umukara n'igitare. Ziri mu kiraro kandi hakaba hari aho zirira, mu kadobo k'ibara ry'igitare, gafite umufuniko w'umutuku.

Ni ingurube iri mu kiraro iryamye kandi ikaba ifite ibara ry'igitare, yambaye iherena ku gutwi ry'ibara ry'umuhondo.

No kureba udupaniya tune: kamwe k'ubururu, akandi k'umutuku, utundi tw'umukara, turimo imishwi nkabona n'akaboko kariho ishati y'iroza.

Ni ihene ziri mu gisambu zirimo kurisha zifite amabara atandukanye, zimwe ni igitare izindi ni ikigina, ziri kurisha ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse hari n'ibiti byinshi.

Ni inka ifite ibara ry'igitare ndetse n'umutuku mu gahanga, ikaba yambaye ihena ku gutwi ndetse ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibiti n'imbaho, hasi hakaba hari ubwatsi bw'urubingo irimo kurisha.

Ni ubworozi bw'inkoko za kijyambere aho ziri mu kiraro, kandi zikaba zimwe ziri hejuru y'izindi, hasi hakaba hari shitingi y'ibara ry'ubururu ndetse n'umukoropesho ku ruhande.

Ni ishyamba ririmo inka zirimo zirarisha n'umuntu uziragiye wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, muri iryo shyamba harimo ibiti ndetse n'inka ziri kueisha z'amahembe maremare zizwiho izina ryo kwitwa inyambo.

Ni ingurube ebyiri ziri mu kiraro, kandi izo ngurube n'igitare, imwe yambaye iherena ry'umuhondo, zose zirunamye zirimo zirarya kandi ziri kurira mu kibuni.

Ni ubworozi bw'ingurube, akaba ari ingurube ebyiri z'igitare, zikaba ziri mu biraro bitandukanye, iki kiraro zirimo kikaba cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho, hasi aho zihagaze hakaba hapavomye ndetse inyuma yaho hakaba hari n'ibindi biraro byubakishije ibiti.

Ni abantu bambaye ingofero z'umuhondo, bambaye amataburiya y'igitare kandi imbere y'aho hari ibyuma ndetse n'amakaro yubakiye ku rukuta.

Ni igihingwa k'ibigori biri mu mufuka, n'abagore batatu umwe atereye umwana, ku ruhande rwabo hari ibyuma bamanikaho ibigori.

Ii immbuto y'igihingwa cy'ibishyimbo, akaba ari ibishyimbo bihingwa kandi bikera, bikaba bifite ibara ry'umukara n'igitare, bikaba biri ku isahani ifite ibara ry'igitare iteretse ku meza afite irangi ry'umuhondo.

Ndi kubona ukuboko k'umuntu wambaye ga arimo aratera imbuto ahantu hahinze yambaye ga ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umupira w'umukara.

Ni igihingwa cy'ikigori cyeze kandi cyumye cyanashishuwe kandi gifite ibara ry'umuhondo, inyuma yaho hari amababi y'ibigori y'icyatsi.

Ni igihingwa k'ingano zirunze hasi zimwe zikiri ku biti izindi zasoromwe, kandi kikaba gikungahayeho ku ntungamubiri, kikaba ari igihingwa ngandurabukungu gifasha mu iterambere ry'igihugu, ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.

Ni abantu babaze inyama umwe akaba yambaye bote z'umukara undi akaba yambaye bote z'igitare ndetse bakaba bambaye n'amataburiye y'igitare na ga zo mu ntoki z'igitare.

Ni nka iruhande rw'iyo nka, hakaba hari abantu bambaye iserubeti y'ubururu, undi yambaye ingofero akaba harimo n'uwambaye itaburiya y'igitare ndetse na ga mu kiganza z'ubururu ndetse n'abambaye bote z'igitare hakaba n'ufashe umurizo w'inka.

Ni inka nyinshi z'amahembe maremare, iburyo bwazo hari ibyuma byubatse kandi inyuma y'ibyo byuma hakaba hari umuntu uhagaze, wambaye igisurubeti cy'ubururu na ga z'ubururu bwererutse.

Ni inka zifite amahembe maremare y'igitare zo zifite ibara ry'umutuku wijimye, ziri hagati mu kayira kubakishije ibyuma, iruhande rwaho hari umugabo wambaye itaburiya y'igitare afite inkoni yambaye ga y'ubururu inyuma yaho hari ibyatsi n'ibiti by'imiduha.

Ndabona umugabo wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'igitare yambaye ingofero y'igitare, nkabona n'inka iri mu kiraro ifite amahembe maremare, inyuma yaho hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ni amaraso menshi ari hasi, mu bigaragara ni itungo bakase kandi hakaba hari n'inyama zikataguye ziri muri ayo maraso.

Ni inka iri mu kiraro ifite ibara ry'igitare n'umukara, hakaba hari uri gukama amata agwa hasi, inyuma y'iyo nka hakaba hari uyifasheho yambaye bote z'umukara n'igiserubeti cy'igitare.

Ni inka z'amahembe maremare, ziri hagati mu twuma ndetse n'abavuzi b'amatungo bambaye ibisubeti by'ubururu na bote harimo n'uwambaye bote z'igitare n'ingofero y'igitare ndetse n'umukobwa wambaye bote z'umukara n'itaburiya y'igitare, inyuma yaho bahagaze hari utwatsi, inyuma y'izo nka hari ibiti by'imiduha.

Ni igikoko cy'umukara cyasamye gifite amenyo y'umutuku n'ururimi rw'umukara gihagaze mu mazi kizwi ku izina ry'idubu, inyuma yarwo hari ibyatsi.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba ziri kunywa amazi, zifite ibara ry'igitare n'umukara, zizwi ku izina ry'imparage.

Ni inyamaswa iri mu ubwoko bw'ibikururanda ikaba iteye nk'umuserebanya ifite umurizo muremure, ku mutwe wayo ikaba ifite ibara ry'umutuku, ikaba iryamye ku byatsi hasi hakaba hari n'ibibabi by'ibiti.

Ni inyamaswa z'ishyamba ziri mu mazi menshi, inyuma y'ayo mazi hakaba hari ishyamba ririmo ibiti kandi izo nyamaswa zikaba zifite umunwa muremure ari wo bita umutunzi, inyamaswa ikaba yitwa inzovu.

Ni inyamaswa yo mu ishyamba, ifite ibara ry'ikigina, yaciyemo uturongo tw'umukara, ikaba izwi ku izina ry'igisamagwe, kandi inyuma yayo hakaba hari ibyatsi.

Ndabona igikoko bita ingwe kiri mu byatsi ahantu h'ishyamba gitonnye amabara y'umukara n'igitare inyuma yaho hari n'izindi nyamaswa ebyiri.

Ni ishyamba ririmo ibiti bimwe byumye bidafite amababi, hakaba harimo n'ibyatsi bigufi, hakaba hahagazemo inyamaswa izwi kui izina ry'imparage ifite ibara ry'igitare imanutsemo uturongo tw'umukara.

Ni ubwoko bw'inyamaswa zo mu ishyamba, ni udukoko tune turi mu byatsi harimo n'ibiti birebire n'uturabyo tw'igitare.

Ndi kubona inyamaswa ziri mu ishyamba, harimo n'ibiti n'ibyatsi, ndabona imparage ifite amabara y'umukara n'igitare, zirimo zimwe zirimo zirarisha.

Ni igikoko kiri mu bwoko bw'inkende, gifite ibara ry'umukara n'umurizo muremure, kikaba gifite ibara ry'igitare mu maso kandi kiri ahantu hari ibyatsi.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba zihagaze mu mazi zitwa imparage kandi inyuma yazo hari ibyatsi bibisi ndetse n'ibyumye, zifite amahembe maremare zikaba zifite ibara ry'igitare ku kabuno ndetse n'ibara ry'ikigina ahandi.

Ni inyamaswa z'ishyamba zitwa intare, inyamaswa ebyiri iy'ingabo n'ingore ziri munsi y'ibiti birebire kandi imwe iraryamye, indi iricaye ishinze amaboko y'imbere, imbere yaho hari ibyatsi.

Inyayamaswa ifite ubwoya bw'umutuku ikaba ifite ibara ry'umukara ku zuru ndetse ikaba ifite n'amahembe maremare yikaraze ndetse ikaba ihagaze mu byatsi.

Ni ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi muri iryo shyamba hakaba harimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye, muri izo nyamaswa harimo: agasumbashyamba, imparage ndetse n'impara.